Inkongi y'umuriro ni impanuka ikunze kugaragara cyane, iba yatewe n'umuriro w'amashanyarazi cyangwa se umuriro gusanzwe. Ahantu hari akajagari cyangwa se hari inzu zicucitse ni ho hakunze kwibasirwa n'iyo mpanuka y'inkongi y'umuriro.

Tarafi polisi ni abapolisi bakorera mu muhanda, bahagarika buri kinyabiziga ,haba moto, imodoka, bakabyaka ibyangombwa bakareba niba batendetse iyo imodoka ibuza ibyangombwa cyangwa bagasanga bituzuye bayica. amande iyo basanze batendetse , nabwo babaca amande.

Abadaso ni abantu bashinzwe gufasha Leta gucunga umutekano, batandukanye n'abasirikare ariko nabo hari imyitozo bagira, bagira iniforume y'icyatsi iriho ibendera ry'igihugu, bambara inkweto z'umweru zisa nk'iza gisirikare. Abadaso bacunga umutekano aho wabaye muke.

Polisi iyo imaze gufata abantu nk'abajura iraberekanaga, kugira ngo yerekane ko hari ubutabera cangwa se ko ntawe barenganyije. Iyo imaze kuberekana ibashiraga mu modoka, ikabajana aho bagakwiye kuba bari muri gereza, aho babaga bategereje kuburana.

Kaburimbo mu kuzubaka bagiye bashiraho ibimenyetso bitandukanye. Aho bambukira haba hari ikimenyetso bisize amarangi y'umweru. Aba ameze nk'inkoni zitambitse baba basizeho amarangi y'umweru. Aho hantu iyo uhageze hari ahantu ho kwambukira.

Abapolisi ni urwego rushinzwe kurinda abaturage no kubarindira umutekano. Abapolisi bagira imyambaro iboneye. Bambara ingofero z'icyatsi, bakambara ikoti rigiye gusa n'icyatsi cyijimye n'ipantaro yazo, bakagira n'umukandara munini cyane. Bambara z'umweru ndetse baba banafite na mukongoti.

Amapingu ni kimwe mu bikoresho, polisi yitabaza igiye gufata abantu ibajyanye kubafunga, bayambika abantu mu maboko yombi, cyangwa se mu maboko abiri y'abantu babiri batandukanye, aba bantu iyo bafunzwe rero bageze muri gereza bayabakuramo, kuko ho ntabwo bafungwa bambaye amapingu.

Kuri sitasiyo ya polisi ni ahantu hacumbikira abapolisi. Ndetse haba harimo n'ibiro by'uhagarariye abapolisi, aho abantu bajya kuregera ibibazo byabo. Ndetse haba hariho na gereza bafungiramo abanyabyaha. Kuri sitasiyo haba hari inyubako zigezweho nini, nziza cyane.

Uruhurirane rw'abantu benshi, baje kureba igikorwa cyo guhemba abantu bakoze neza, iyo umuntu akoze neza baramuhemba, cyangwa se iyo yitabiriye amahugurwa runaka bamuha seretifika.

Ingega zo mu mazi abenshi barazitinya cyane, kubera ko ni icyombo kiba kiri hejuru y'amazi. Abenshi bakunze kuhatinya kuko baba bari kureba mu mazi(.......) na hoteri ndetse abari mu cyombo baba bambaye amajire kugira ngo nibaza kurohama ntibaze kurengerwa n'amazi.

Mu rwanda hari inyubako zikomeye cyane kandi zigezweho zikorerwamo inama. Ziba ari inyubako ziboneye, ziba zirimo intebe zigezweho nyinshi cyane, ziba zifite amakaro asa n'umweru, ziba ari inyubako ubona ko zigezweho cyane. Ndetse iyo nama ziba zirimo abantu benshi kandi izo nyubako ziba ziteguye kwakira abantu benshi cyane.

Akenshi ahantu hahuriwe n'abantu benshi baje mu birori, mu bukwe cyangwa se mu nama, kugira ngo batagerwaho ingaruka n'izuba cyangwa se n'imvura itabanyagira, bubaka ibisharagati. Ibisharagati ni inzu bubakisha amahema bakazidekora, kugira ngo abari muri iyo nzu batavirwa cyangwa se izuba ritabanyagira.

Inama zikomeye cyane zikunze kubera ahantu nko muri salle baba bateguye abaturage baba batumiwe cyangwa se n'abandi baba batumiwe babaza ibibazo abayobozi bahari. Abo bayobozi na bo babaha ibisubizo bigendanye n'ibyo abaturage babajije.

Uruhurirane rw'abantu benshi bitabiriye inama. Bateraniye ahantu hanini kandi hagari kugira ngo babashe gukemura ibibazo bafite. Harimo abayobozi batandukanye abadaso, abasirikare, abayobozi bo mu nzego z'ibanze, ndetse n'abandi bayobozi bashinzwe imibereho myiza y'abaturage.

Uruhurirane rw'abantu bitabiriye inama cyangwa se bitabiriye ibirori runaka. Mu nama tuhasangamo abayobozi batandukanye batuganiriza, cyangwa se mu birori tuhasanga abafite ijambo bayoboye ibyo birori. Ni byiza rero ko tugomba kwitabira aho tuba twatumiwe.

Kubarama ni umuco wahozeho kuva kera iyo mushyitsi asuye urugo runaka cyangwa se agendereye urugo runaka baramwakiraga bakamwakiza ibintu bitandukanye ,bamwakiza inzoga zitandukanye yaba anywa afanta nayo barayimwakiza.

Abayobozi iyo bateguye inama ibahuza n'abaturage, akenshi bakunda kuyikorera mu kibuga cy'umupira w'amaguru cyangwa se ahantu hisanzuye, abaturage bafite ibibazo barabibaza cyangwa bafite n'inyunganizi na bo bakazivuga. Abayobozi bafasha abaturage kubonera ibisubizo by'ibibazo bafite.

Inanga ni kimwe mu gikoresho cya muzika cya koreshwaga hambere, baragicurangisha kiba gifite amajwi atandukanye, abazi gucuranga inanga baba ari abahanga kuko bibasaba kuba bazi, amajwi yose, kugira ngo babone uko bayicuranga.

Umuduri ni kimwe mu bikoresho by'umuziki byakoreshwaga hambere. Umuduri ugiraga injana nziza ku buryo buri wese yumva uryoheye amatwi. Umuduri na n'ubu uracyakoreshwa mu muziki nyarwanda.

Iyo tumaze gusarura imyaka nk'ibigori, amasaka cyangwa se ibishyimbo cyangwa ingano, turabihura. Twamara kubihura tugashaka igikoresho bita intara, tukabigosora hakavamo inkumbi, bigasigara bisa neza biboneye.

Muri pariki y'ibirunga tugira abashyitsi benshi, cyangwa ba Mukerarugendo baba bashaka kuhagana basura ingagi, cyangwa se n'izindi nyamaswa zirimo, niyo mpamvu rero hubakwa amahoteri menshi, ndetse haba n'ababyinnyi baba biteguye kubakira, babakira bavuza ingoma, bafite n'imirishyo, ndetse n'itorero ribyina, babakirana urugwiro n'ibyishimo.

Udusobane ni tumwe mu dukoresho bakoresha ibintu byinshi bitandukanye, batubohesha intoki ndetse n'ikoroshi udusobane badukora mu migwegwe, kugira ngo tubashe kuba igikoresho gikomeye, twitabaza rero mu Rwanda ni ho bakunze kutugira kuko ni ho tuboneka.

Kubumba ni umurimo ukomeye cyane . Ibumba rikorwamo ibikoresho byinshi bitandukanye ibibindi ,bakoramo ibindi bikoresho bimeze nk'imbehe ibigara bakuramo imbabura n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni amazi bavanga ni..

Inka z'inyambo ni inka zabaga zifite umubyimba muremure ari ndende, zabaga zifite amahembe maremare cane ni inka zabaga zinogeye amaso kuzireba, kuko zabaga zishimishije zikoraga n'akararasisi gashimishije cane. Izi nka zabonekaga mu bami gusa.

Inkongoro ni kimwe mu ibikoresho byifashishwa ku mata. Inkongoro ibika amata neza kandi ikayavurisha, akaba ikivuguto kiryoshye cyane. Iyo inkongoro ishaje bashobora kuyisana, bakayisanisha nk'icyuma bagashyiraho udusumari. Inkongoro ni igikoresho cyabuhariwe ku mata, ni cyiza cyane.

Abakaraza b'ingoma ni abantu baba bazi kuvuza ingoma, abavuzi b'ingoma bisaba kuba bazi injyana kubera ko iyo bari kuvuza ni yo bagenderaho, ingoma ni igikoresho ca muzika cyifashishwaga mu gukora injyana, kiba gikozwe mu ruhu ndetse n'ibigogwe yabaga baboshe abagabo n'ibiririsho bakoreshaga bari kuyivuza.

Intore ni ababyinnyi b'abagabo cyangwa se b'abasore babyina neza cyane baba bambaye amayugi ku maguru baba bakenyeye imikenyero , hejuru bambaye ibisa ndetse baba bambaye n'imisatsi ku mutwe . Baba bafite amacumu ndetse n'ingabo. Intore ziba zishimishije kuzireba kuko ziba zifite umudiho uryoshye.

Mu Rwanda abaturage nta bwo bakundaga kujya kwa muganga. Bivurishaga imiti y'ibyatsi. Igikakarubamba ni umuti wavurishwaga n'indwara z'uruhu. iyo urwaye indwara z'uruhu, wivurisha igikakarubamba nk'ibihushi, ibiheri, ndetse n'ibindi. hari n'imboga bitaga isogi na zo barazivurishaga ngo zivura inzoka.

Ikigage ni umusuru mwiza cane uryohaga, uvaga mu masaka .Bawengaga iyo habaye ubukwe cangwa se iyo umuntu arasura mugenzi we ,cangwa umuntu arabona umushitsi ,rwose ni ikigage ciza.

Imyambarire yo hambere itandukanye n'imyambarire y'ubu ngubu. Hambere bambaraga impu, bakenyeraga inshabule, babaga bafite ingabo, babaga bafite n'amacumu, babaga bambaye inigi mu ijosi, icyo ni cyo cyari ikimenyetso kigaragaza abantu bo hambere.

Ibihaza bigira amoko menshi atandukanye, hari ibihaza barya, bihaza bakoramo ibikoresho bitandukanye. Ibihaza bakoramo ibyuho cyangwa se ibicuma n'ibihaza byera ukabona bifite forume nk'iy'ibicuma. Iyo byeze rero barabicaga bakabisatura bagakuramo imbuto noneho bagakora ibikoresho bashaka gukora.

Inka z'inyambo, ni inka nziza cyane zibereye ijisho, kuzireba ziba ziboneye cyane. Ziba zifite amahembe maremare asa n'umweru akaba ateze nk'amaboko, inyambo bazambika udushumi mu gahanga, iyo bagiye mu myiyereko yazo, zirumva cyane kuko barazitoza, abavuzi b'inka rero bari aba bazi kuzivugira kuko baba bazi amazina yazo.

Hambere ambiransi zitari zakwirakwira ahantu hose, abaturage bakoreshaga igikoresha bita ingobyi. Ingobyi bayihekagamo umurwayi cyangwa se umubyeyi ushaka kubyara. Ni igikoresho cyabaga gikozwe mu migwegwe Kandi gifite n'imijisho. Imijisho yabaga ari ibiti babaga bashyizeho. Umurwayi rero yaryamagamo hashashemo ikirago ubundi bakamujyana kwa muganga.

Igikamba ni ubwoko bw'itabi bukunze kunyobwa cyane n'abasaza cyangwa se n'abakecuru, iryo tabi barishyira mu nkono iyo nkono barasiraho ikibiriti noneho bigacumba umwotsi, abasaza ni bo bakunze kunywa cyane. Itabi ni ribi ririca kubera ko rigira ingaruka ku bihaha.

Gukenyera ni bimwe byarangaga abategarugori cyangwa se abagore bo hambere, hambere igitsina gore cyarakenyeraga iyo habaga habaye ubukwe cyangwa se ibirori runaka. Ni umukenyero n'umwitero biba biboneye cyane umugore wakenyeye cyangwa se umukobwa aba ameze neza cyane.

Akenshi ingoma zavuzwaga n'igitsina gabo gusa, ariko kuri ubu n'abagore basigaye bazi kuzivuza. Ingoma igikoresho cya muzika kiba kiboshwye mu bintu bitandukanye, bakibohesha imigwegwe ndetse bakakibambisha n'uruhu, bakoresha umurishyo iyo bari kuyivuza.

Kuvugira inka ni umuhango ukorwa, kandi wahozeho kuva kera cyane. Uvugira inka aba afite ibyivugo by'inka, bitewe n'inka uko zimeze. Inka z'inyambo akenshi na kenshi, nizo bakundaga kuvugira. Ni inka nziza cyane, ziba zifite amahembe maremare, ziba zifite n'umubyimba muremure, mbese ni inka ubona ziboneye cyane.

Mu muco nyarwanda intore zabaga zifite imyambaro yabugenewe za mbara, zabaga zifite imisatsi zambara mu mutwe igera mu mugongo urunigi, zabaga zifite n'ibyo bambara mu gatuza, umukenyero zikenyera ,zabaga zifite n'amayugi za mbara ibyo byose biranga intore ariko na n'ubungubu baracya byambara.

Imboga rwatsi zigira amoko menshi atandukanye. Hari dodo, hari pinari, hari inyabutongo, hari isogo, hari n'isugi. Isogi ni imboga rwatsi ziba zisa n'icyatsi, zera uturabo tw'umweru. Izi mboga zirasharira ku utazimenyereye. Ariko na none isogi zibamo umuti ukomeye cyane.

Intore ni ababyinnyi b'abagabo cyangwa se abasore baba bari guhamiriza, baba bambaye imisatsi ku mutwe bazirikishije agatambaro, baba bambaye imishumi mu gatuza bakenyeye n'imikenyero, baba bambaye amayugi, ariyo abereka injyana baba bafite amacumu ndetse bafite n'ingabo intore mbese ziba zishimishije kuzireba.

Umukino wo gusimbuka, ni umukino usaba ubuhanga buhanitse, bisaba kuwukinana ubushishozi, ndetse n'ubwenge bwinshi, bisaba kuba uzi gusimbuka, kandi uzi no kwiberereka. Urashimisha kubari ku wureba kandi ariko uranavuna.

Kuvuza ingoma bisabaga ubuhanga abakaraza b'ingoma iyo bari kuvuza ingomaga babaga bafite imirisho bari kuvurisha ingoma bategereje injyana y'ababyinnyi cangwa se injyana y'indirimbo bari kuvugiriza iyo ngoma ngo itangire noneho nabo bakazivuza neza.

Inkongoro ni kimwe mu bikoresho bikoreshwaga mu bijyanye n'amata, inkongoro zikoreshwaga mu gutereka amata ziyaterekaga neza cane ndetse ziryoshaga n'amata, inkongoro banazinyweragamo amata.

Umweyo bagukondozaga imbuga, gukondoraga neza cane, gubaga guhambirijweho umukoba g'umukara, gubagaga gufite utuntu twinshi two gukondora, iyo umuntu ari kugundoza, imbuga iraboneraga.

Mu bukwe habagamo imihango myinshi itandukanye, umusore iyo yaje gusaba no gukwa, akamara gusaba akanakwa hari umuhango ukurikiragaho iyo aje kureba umugeni ahari amwakizaga amata, ayo mata abaga afite igisobanuro cinshi kuko umugeni abaga akunze umusore we.

Mu bihe byo hambere bifashishaga ibikoresho byinshi bitandukanye, habagaho imivure bifashishaga bari gukama urwagwa cangwa se umutobe, habagaho ingobyi bahekagamo abarwayi, ibicuba bashiragamo amata, amasekuru bakoreshaga bari gusekura, imihoro bakoreshaga batema, imipanga cangwa se amacumu bakoreshaga bari ku rugamba.

Mu bukwe haba imihango myinshi itandukanye: Habaho umuhango wo gusaba no gukwa. Mu gusaba no gukwa abasore barakenyera, bakambara urunigi ndetse bagafata n'inkoni. Abakobwa bo bakenyera imikenyero nk'ibisanzwe. Biba ari byiza cyane, baba baboneye mu muhango wo gusaba no gukwa.

Ababyinnyi bakunze kwifashisha imyambaro yo gukenyera, uyu mwambaro ubera abategarugori cyane kuko ni umwambaro wa Kinyarwanda. Iyo bagiye kubyina indirimbo za Kinyarwanda rero barawifashisha bagashayaya ukabona baraboneye.

Hirya no hino hari ba rwiyemezamirimo, bagiye bubaka inzu za kera za kinyarwanda bashaka kugaragaza amateka ya kera, bagira n'amatorero abyina indirimbo gakondo haba harimo ababyinnyi batandukanye, intore ndetse n'ababyinnyi basanzwe.

Abo hambere bagiraga ahantu babikaga ibikoresho byabo bya kinyarwanda. Cane cane nk'ingabo, zagiraga aho zishiraga ibikoresho barwanishaga. Barwanishaga ingabo, amacumu n'ibindi byinshi bitandukanye.

Igisabo ni igikoresho cy'umuco wo hambere ndetse na n'ubu ngubu kirakoreshwa. Kigaragaza ibijyanye n'amata kuko bagicumbimo amata. Hari ibihaza rero bakoragamo igisabo kuko byaterwaga bakabikoramo igisabo. Ni kiza cyane kuko kigaragaza umuco nyarwanda.

Hambere nta ambiranse zahabaga . Iyo umurwayi yarwaraga, bamuhekaga mu ngobyi. Ingobyi yabaga ikoze mu migwegwe cyangwa se mu bikangaga ,ni mwo bayibohaga. Ingobyi yahekwaga n' abantu bane : babiri imbere abandi inyuma babiri. Umurwayi bahekaga bamutwikizaga ikiringiti cyangwa se umwenda. Ni yo yari ambiranse mu Rwanda rwo hambere.

Inzu zo hambere zabaga zubakishijwe n'ibyatsi ubona ari inzu ziteye amatsiko kuzireba, na n'ubu rero hari amahoteli menshi yubaka izi nzu ndangamateka ku buryo ushaka amateka yo hambere ashaka kuzisura akareba uko byari byifashe, bubakishaga inzu z'ibyatsi ndetse zinaboheshejwe n'imigano ku ruhande.

Inyambo ni inka ziba ziryoheye amaso kuzireba inyambo inka ziba zifite amahembe maremare ateze nk'amaboko zibaga zifite umubyimba muremure kandi nazo zibagari na ndende izi nka zibarizwaga ibwami izi nka kandi bazikoreshaga akarasisi ni inka zitozwa kandi ubona zumva cyane.

Ingoma ni kimwe mu gikoresho cyifashishwa mu bijyanye na muzika. Ingoma ni igikoresho cya gakondo bakora mu ruhu ndetse bakagira imigwegwe bahambiriza cyangwa se babohesha. Ingoma kuyivuza bisaba kuba ufite umurishyo ndetse abavuzi b'ingoma ni abantu baba bazi uko injyana zigenda kugira ngo babashe kuvuza izo ngoma.

Intore ni ababyinnyi bagiraga injyana nziza cyane kandi isaba ubuhanga. Intore ziba zambaye amayugi ku maguru, ziba zakenyeye imikenyero ndetse zibaga zambaye n'imisatsi mu mutwe. Intore iyo ziri gucinya umugara ubona ari ibintu byiza cyane, ziba zashinze icumu ndetse zifite n'ingabo. Intore ni ababyinnyi rwose babyina neza cyane.

Inkongoro ni igikoresho bakoresha mu mata. Inkongoro rero， bakunze kuzishyiramo amata， kuko zibika amata neza cyane， bazinyweramo amata， kandi iki gikoresho cyahozeho kuva kera， ariko na n'ubu ngubu baracyagikoresha.

Umwuga wo kubumba ni umwuga umaze gutera imbere cane, ababumbyi babumbaga ibintu byinshi bitandukanye, hari imbabura, babumbaga n'inkono babumbaga n'ibibindi ndetse babumbaga n'ibyungo. Icungo rero ni inkono zitekaga imboga, ziryoshaga imboga cane iyo wazitetse mu cungo.

Hambere nta nsyo zahabaga, bakoreshaga urusyo rwa kinyarwanda, ni ibuye ryabaga ari rinini cane rinyerera, ryabaga rifite akandi kabuye gatoya twakwita nk'ingasire. Iyo bashakaga umutsima, cangwa se igikoma, cangwa se umusururu, bashiragaho amasaka cangwa ibyo bigori bagasya bakoresheje amaboko yabo, bigiraga ifu nziza cane, inoze kandi iryoshe.

Ikibindi ni igikoresho gikorwaga mu ibumba n'amazi. Ababumbyi babumba ibikoresho bitandukanye harimo n'ibibindi. Ibibindi babishiramo amazi cyangwa se bakabirekeramo, iyo imvura iri kugwa ndetse babishiramo n'ikigage cyangwa ubushera.

Abantu bo hambere bagiraga ibirori byinshi bitandukanye cyane cyane nk'ibwami, habaga ibitaramo abantu bakabyina bakizihirwa intore na zo zarahamirizaga ,abagore bagashayaya bakavuza impundu ,ukabona ni ibirori biboneye cyane.

Mu muco wa kera abakobwa, abagore, barabohaga. Ibirago, ibyibo bimwe muri ibi bikoresho byaratakwaga mu nzu; ukabona haraboneye hameze neza cane.

Uko umutobe ubonekaga cyangwa se urwagwa, ufataga ibitoki ukabitara bikavamo imineke ubundi ugashira mu muvure ugashyiraho n'icarire noneho ukajamo n'intoki ugakama ukabona urwagwa cangwa se umutobe.

Icyungo igikoresho gikorwa mu ibumba ababumbyi bafata ibumba bakarivanga n'amazi bagakora ibikoresho bitandukanye. Icyungo rero bagitekamo ibiribwa byinshi bitandukanye nk'inyama, imboga ndetse n'ibindi. Icyungo kiryoshya ibiryo cyane.

Inzu za kinyarwanda zabaga zubakishijwe n'ibyatsi, inzu z'ibwami zo na zo zabaga zubakishijwe ibyatsi, ariko mw'imbere zabaga zisa neza habaga harimo ibikoresho bitandukanye ibirago, inkoko, intara, ibyuho, ibicuma, ibibindi.

Mu gitaramo abantu barabyinaga bakishima, bakanezerwa, ndetse bakagira n'umwanya wo kuganira bagasangira ibyokurya, bagasangira ibyokunywa, nk'ibigage, inzagwa n'ibindi byinshi. Ubundi bakishima, bakanezerwa.

Hirya no hino hari ibikuyu bororeramo inka, ni ahantu haba harabugenewe bororera inka, haba hari n'abashumba bari kuzikurikirana, inka zikamwa barazikama, amata bakayashira mu nkongoro, inkongoro bashobora kuyikamiramo, cyangwa se bakazibikamo amata, inkongoro banazinyweramo n'amata iyo bibaye ngombwa.

Abavuzi b'ingoma cyangwa se abakaraza, ni abantu bavuza ingoma. Ni ingoma nziza cyane iba iboshye ikoze mu ruhu iyo bayivugije irirangira, baba bafite n'umurishyo bavugisha izo ngoma, baba bakenyeye n'imikenyero bambaye n'impuzangano hejuru, bavuza bitewe n'injyana bashaka kuvuza.

Mu birori byinshi dusangamo ababyinnyi . Ababyinnyi babyina bitandukanye hari ababyinyina bashayaya , hanyuma babyina ibinimba . Abashayaya hari ubwo bashaya bikoreye uduseke, ku buryo utwo duseke tudashobora kugwa. Abagabo bambaye imikenyero ndetse bambaye n'amayugi mu maguru.

Abanyarwanda bo hambere bagiraga uburyo bwinshi babikagamo inzoga cyangwa se ibigage. Bari bafite ibikoresho bitandukanye nk'ibibindi, ibicuma byabikaga izo nzoga. Bagiraga n'imiseke banyweshaga izo nzoga. Iyo miseke bayibazaga mu biti byitwaga imiseke.

Inka z'inyambo ni inka nziza cyane, ziba zifite umubyimba muremure, amaguru maremare ziba zifite n'amahembe maremare ahese nk'amaboko, ahagira abavuzi bazo abavuzi b'inka bazivugaga mu mazina yazo baziririmbira ndetse bazivugira n'ibihozo izi nka ziba ziryoheye ijisho kuzireba nziza cyane.

Imashini ifotoraga impapuro idufashaga ibintu byinshi cane. Izi mashini zidufasha mu ikoranabuhanga mu buryo bwihuse, imashini ifotora impapuro zibonekaga ahantu henshi hatandukanye; ku mashuri ,ku mavuriro, ndetse n'ahandi hantu hakenerwaga serivisi zo gufotora impapuro.

Umuhanda unyuze hagati ya jaride werekeza ahubatswe inzu nziza cyane zigezweho. Umuhanda uba wubakishijwe na sima imwe y'ibiheri itanoze izo jaride ziba ziriho indabo nziza cyane ndetse ubonako aho hantu hashimishije kuhareba.

Insengero z' abahamya ba Yehova ni insengero ubona zubakitse, ziba zisa neza ndetse zikomeye. Abahamya ba Yehova basengera mu nsengero ziringaniye zitari ntoya, ni insengero wabona zikomeye ndetse zifite ibikoresho bikomeye kuko ni insengero ziba zitandukanye n' izindi.

Hari ibikorwa remezo byinshi biboneka mu Gihugu cyacu. Hari imihanda, hari amavuriro, amashuri n'ibindi byinshi. Ku mavuriro rero habaho ibitaro bikuru, habaho sentere do sante, na posite do sante. Kuri posite do sante ni ho twitabaza iyo twafashwe n'uburwayi bworoheje. Babona uburwayi bukomeye cyane bakatwohereza ku bitaro bikuru.

Ku biro by'Akarere ka Musanze tuhasanga inyubako nziza cyae ya etaje , Ifite imiryango myinshi bitewe na serivisi zihakorerwa. Haba haparitse n'imodoka z'abayobozi bahakorera. Hejuru, hari icyapa kigaragaza ko Akarere ka Musanze aho gaherereye.

Muri kiliziya cangwa se mu rusengero tuhasangaga intebe nyinshi kubera ko hageraga abantu benshi cane, habaga harimo n'ikimenyetso c'umusaraba, kigaragazaga ko aho hantu bahasengeraga. Mu rusengero cangwa muri kiliziya turahabyiniraga tukanaririmbira kubera ko ariho tuba tugiye gushakira umunezero.

Uruhurirane rw'abantu benshi, baje gusenga. Iyo tuje gusenga, tuhahurira turi abantu benshi cyane. Urusengero ni inzu iba ari nini cyane, yakira abantu benshi cyane. Urusengero rurangwa no kuba hejuru hari umusaraba werekana ko iyo nzu bayisengeramo. Mu rusengero iyo tugezemo turaririmba, tugasenga, ndetse niho tubonera n'ibyishimo.

Insengero ni ahantu abantu basha gusengera baririmba bakabyina insengero n'aho abantu bishimira. Ariko inyinshi zirafunze kubera ko nta byangombwa zujuje zubatse nabi ubona ko zagira ingaruka ku bantu bajyayo.

Kiriziya cyangwa se urusengero, ni imwe mu nzu nini cyane iba yubatswe neza, ndetse ubona ikomeye. Igira imiryango minini n'amadirisha manini, hejuru haba hari umusaraba, ugaragaza ko aho hantu hari urusengero.

Kubiro by'akagari ni ahantu abaturage bajanaga ibibazo bya bo bikahakemukira. Tuhasangaga gitifu w'akagari ndetse n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ari we sedo. Ku kagari habaga hari ibendera ndetse habaga hananditseho aho hantu ko ari ibiro by'akagari ku buryo nta muntu wahayoberwa.

Isoko rya kijyambere riba ryubatse ku buryo abacuruzi cyangwa se ibicuruzwa bitanyagirwa, ni isoko riba rifite ibisima abacuruzi bashyiraho hejuru ibyo bacuruza ndetse bikagira n'ububiko bw'aho babika ibicuruzwa, ni isoko ubona ko rifite icyerekezo riba risa neza riboneye.

Uruhurirane rw'abayobozi batandukanye, abayobozi akenshi iyo bagiye guhura, haba hari ibibazo biba bibahangayikishije, baba bagiye gukemura, abo bayobozi harimo nka polisi, abashinzwe iby'umurenge, mu karere, ndetse no ku ntara.

Ibinyabiziga bigira amoko atandukanye, hari imodoka rero zakorewe gutsindagira imihanda, mbese zikora imihanda. iyi modoka ikora mu mihanda yigitaka iratsindagira kugira babone uko bashyiramo kaburimbo, iyi modoka ubona ifite ubuhanga bukomeye, n'abashoferi bayo bagomba kuba barabyigiye kandi bazi kuyikoresha neza.

Urusengero ni inzu ibaga ari nini cyane yakiraga abantu benshi, mu rusengero tujagamo tugiye gusenga, turabyinaga, turaririmbaga mbese ni ahantu abantu bajaga bakishima cyane.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dufite ibikorwa remezo byinshi bidufitiye akamaro, twavugamo nk'isoko, aho abaturage tujyana ibicuruzwa byacu tukajya kubiremeshamo, twavugamo nk'ibitaro aho tujya kwivuriza indwara, ndetse n'ibindi byinshi bidufitiye akamaro.

Inzu nziza cyane kandi zigezweho, zikunze kugaragara cyane mu mijyi. Izo nzu zikunze kuba ari amahoteli cyangwa se hari igikorwa remezo gikomeye cyane. Ni inzu ziba ziboneye, zigeretse nk' inshuro nyinshi nk'eshatu cyangwa enye. Ni inzu ubona zifite amabati meza cyane, ibirahuri byiza, inzugi ndetse n'amadirishya.

Mu midugudu ahagenewe guturwa tuhasanga ibikorwa remezo bitandukanye, tuhasanga amashuri abana bacu bajya kwigiramo, ibibuga by'imipira, ibibuga bitandukanye by'imikino itandukanye, tuhasanga amavuriro, tuhasanga ibiro by'ubuyobozi, iby'akagari, iby'umurenge, tuhasanga imihanda itandukanye, ari iya kaburimbo ndetse n'imihanda y'ibitaka.

Igikorwa remezo cy'amashuri y’ubungubu， asigaye aboneye cyane，yubatse neza, aba afite amabati meza cyane， akomeye， inzugi ziboneye neza， amadirishya ateye n'amarangi meza， na sima inoze neza cyane， ubona rwose amashuri y’ubu ngubu aba ameze neza cyane.

Mu masoko agezweho bubatse aba yubatse ibintu bitangaje hari ububiko bw'ibicuruzwa, abacuruzi babikamo bita ibisima, hari n'aho gutereka ibicuruzwa kugira ngo bitangirika. Hambere ho bacururizaga hanze imvura ikanyagira ibicuruzwa ariko ubungubu amasoko asigaye asakawe ndetse baba bafite n'ububiko babikagamo ibyo bacuruza.

Abayobozi iyo bagiye gukoresha inama baba bicaye muri sale, iyo sale iba irimo intebe nyinshi bicaraho abaje kurema inama. Imbere yabo bayobozi aho bicaye haba hari ameza ahateretse, ayo meza niyo bashyiraho ibitabo byabo biba birimo ibyo bari buvuge.

Inzu ziba zubakishijwe n'amatafari ahiye ni inzu ubona ziba zikomeye cyane. Iyo zisakajwe rero n'amabati akomeye meza, Ubona ari inzu zitangaje. Iyo zipavomye ziteye sima, ubona ari inzu ziboneye cyane buri wese yifuza kuba.

Mu mashuri y'inshuke ni 'amashuri yashyizwemo imbaraga na leta cyane amashuri y'inshuke afite ibyiciro bitatu bitandukanye :hari na sariya mbere ariyo bebi, nasali ya kabiri ari yo mido, nasali ya gatatu ariyo topu karasi. Nasali ya mbere yigamo abana bafite: imyaka itatu, iya kabiri ,yigamo abafite imyaka ine na aya gatatu yigagamofite imyaka

Buri karere kaba gafite aho abaturage bahuriraga nka sitade, iyo hari inama zikomeye cyangwa se inama zirahuza abaturage benshi babatumaho bakaza bakicara muri izo sitade kugira ngo bakurikirane inama. Abayobozi na bo baba bitabiriye bategereje ko abaturage bababaza ibibazo bafite, n'abayobozi bakabafasha kubikemura.

Imodoka zitwa Fuso, ni imodoka z'ubwikorezi zitunda ibintu bitandukanye nk'u mucanga, urwondo mbese ni imodoka ubona zifite ubushobozi bwo gutwara ingano y'ibintu byinshi bitandukanye, izi modoka rero zikora cyane cyane ahantu nko mu misozi.

Imodoka yitwaga tiriniti nini cane itwaraga abagenzi bava Kigali baja Kampala, ubwo yari igeze ku mupaka wa Kagitumba yari igiye kwambuka, ijanye abagenzi bari kuja Yuganda.

Muri gare tuhasanga ingeri nyinshi z'abantu baba baje gutega, haboneka imodoka nyinshi zitandukanye. Iyo abagenzi babaye benshi, biba ngombwa ko batonda umurongo, uri imbere niwe ugenda mbere, uri inyuma na we akagenda nyuma.

Muri gare habaga hari imodoka nyinshi cyane zitandukanye zihaparitse hariziba ziri gushaka abagenzi hari n'iziba zizanye abagenzi zibavanye mu ntara zitandukanye habaga harimo abantu benshi buruja n'uruza abari gutega abari kuva mu modoka mbese n'ahantu ubona haba hari abantu benshi cyane batandukanye.

Imbangukiragutabara ni imodoka ishinzwe gutabara aho rukomeye iyo umurwayi arembeye kwa muganga batumagaho imbangukiragutabara ikaza ikamujana ku bitaro bikuru aho bamukurikiranaga neza imbangukiragutabara ni imodoka ikorera mu bitaro hirya no hino bikuru.

Abakarani ni abantu batwara imizigo mu buryo butandukanye. Hari abikorera ku mutwe, hari n'abayitwara ku ngorofani. Ingorofani twavuga ko ari ikinyamitende gifite umupine umwe, ndetse kikagira na hano bafata n'amaboko abiri, ku buryo baba bagikoze ugitwaye afataho. Gikorwa mu biti cyangwa se mu byuma.

Mu mujyi haba hari uruhurirane rw'ibinyabiziga byinshi. Hari ibiba bitwaye abantu nka moto, ha ibiba byikoreye imizigo itandukanye. Haba hari urujya n'uruza rw'abantu barema isoko ryo mujyi, cyangwa se baje gucururiza mu mujyi. Hari inyubako nziza cyane zikomeye kandi zigezweho, hari n'umuhanda ugezweho cyane.

Imodoka nyinshi zitwara imizigo, zikunze kuba ziyikuye mu cyaro, aho ziba zivanye ibihingwa cyangwa se umusaruro w'abaturage ziwujyanye mu mujyi, aho baba bagiye kubigurishiriza mu mujyi, ibyo biba byeze mu icaro.

Mu mujyi tuhasangaga abamotari benshi bategereje abagenzi, kubera habaga ari uruja n'uruza rw'abantu benshi moto usangaga ari nyinshi mu mujyi ziparitse ziri gushaka abagenzi, kandi barababonaga kuberako babaga ari benshi cane.

Uruhurirane rw'abagenzi bari muri gare bari kuja gutega, abagenzi iyo bashatse gutega batondaga umuronko aho imodoka bashatse iri bitewe n'aho bari kuja, tugira ajanse nyinshi zijana abagenzi aho bagiye, iyo mumaze gutonda umuronko babahaga tike mwamara kubona tike mukishura hanyuma imodoka yaza mukicaramo mukagenda aho mugiye.

Muri gare ni ahantu dusanga urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane, haba hari n'imodoka nyinshi ziriho n'ibyapa by'aho ziri kwerekeza. Nta wapfa kuyoba kubera ko buri wese abasha kureba aho agiye kuko biba byanditse no ku modoka.

Abantu benshi iyo batwaye igare baba bari kwishimisha, hari n'abayatwara bari muri siporo, igare rya siporo ni igare rishimishije kuritwara, ntirinaniza cyane kuko ntihabamo kunyonga cyane, ni igare utwara ari otomatike rigenda neza, kandi ntabwo rivuna uri kuritwara.

Ku kibuga cy'indege tuhahasanga urujya n'uruza rw'abantu bari kuhagana bashaka gukora ingendo zo mu ndege. Haba hari amazu agaragaza aho ugomba kwinjira kugira ngo ubashe guhabwa uburenganzira bwo kwinjira muri iyo ndege. Ujya gucisha itike werekanye ibyangombwa nka pasiporo ndetse n'ibindi biba biri gusabwa.

Imodoka nini zitwaraga abagenzi, ni imodoka zijaga hanze y'igihugu cangwa se zigatwara abagenzi mo imbere mu gihugu. Zibaga ari nini, ari ndende, zifite n'amapine menshi maremare, zijagamo abagenzi akenshi na kenshi iyo ari kure, bamwe birizaga umunsi wose barimo kugenda.

Muri gare ni ahantu hagenewe guparikwa imodoka ,niho hagenewe ingendo zitandukanye haba hari urujya n'uruza rw'abantu baje gutega. Bamwe bajya mu cyaro abandi bavayo ,haba hari imodoka nyinshi zitandukanye zitonze umurongo bitewe n'aho zigiye kugana. Haba hari uruhurirane rw'abantu benshi cyane muri gare ndetse n'imodoka nyinshi .

Ku kibuga cy'indege i kanombe tuhasanga indege zitandukanye, Rwandeya ni indege yo mu Rwanda itwara abagenzi bakorera urugendo rwo hejuru cyangwa se rwo mu kirere, indege iradutangaje cyane kuko iyo wicayemo ubona uri nko mu nzu, iba iteye ubwoba ku bantu batari bayigendamo ariko iyo umaze kuyimenyera ubona ari nk'ibisanzwe.

Abanyonzi ni abantu batwara amagare. Aya magare atwara abantu ndetse n'ibintu. Ubugubu basigaye barakoze amakoperative babarizwagamo. Aya magare akora cyane cyane mu mihanda y'ibyaro ndetse n'imihanda iba ari iy'ibitaka.

Hari amoko y'imodoka menshi atandukanye, hari imodoka zitwara abagenzi, hari n'imodoka zitwara imizigo. Imodoka zitwara imizigo ziba Ari imodoka ndende cyane kandi zifite umwanya munini uhagije wo gutwaramo iyo mizigo ,ziva mu cyaro zivanye ibyo kurya mu cyaro zikabijyana mu mujyi cyangwa se zikava mu mujyi zerekeza mu cyaro.

Muri gare iyo imodoka zabuze abagenzi babaye benshi bibaga rwose biteye ikibazo. Abantu batonda umurongo, imodoka yaza bakinjiramo bitewe n'uko batonze umurongo. Uwa mbere yinjiramo, uwo birangiriyeho ategereza indi modoka bakinjira.

Imodoka zitwaraga ibitaka cangwa se imicanga zibaga ari imodoka nini cane, iyo ushaka gukora inzu yawe cangwa se uri kubaka uzitumagaho ukaziha ikiraka zikagutundira ibyondo cangwa se imicanga. Izi modoka zibaga ari nini zibaga zifite n'amapine maremare ndetse zibaga ari imodoka ubonaga ziteye ubwoba.

Bisi ni imodoka zibaga ari nini cane zitwaraga abagenzi benshi kuko zibaga zirimo imyanya myinshi. Ni imodoka zivaga mu mujyi zija mu caro cangwa se zikava mu caro zijana abagenzi mu mujyi. Ni imodoka ubonaga zikoranye ubuhanga buhanitse.

Mu ngezi hakorerwamo ingendo zitandukanye. Hari abagendamo bakoresheje ubwato cyangwa se icyombo. Ubwato buba burimo abantu barimo kugashya, kugira ngo bubone kugenda. Ubwo bwato baba barabukoze mu biti ndetse n'izo ngashya na zo baba barazikoze mu biti.

Moto ni kimwe mu binyabiziga na byo bitwara abantu, moto rero zirimo amoko menshi hari izitwara abantu hari n'izitwara imizigo, izitwara imizigo zitwa rifani, ni moto nziza cyane zikora mu misozi zitwara imizigo hirya no hino, rwose ukabona ntacyo bitwaye zirakora neza.

Umupira w'amaguru ni umukino ushimisha cyane bisaba ko abawukina bagomba kuba bazi kwiruka cyane ndetse n'uri mu magora agomba kuba azi gusama neza, ku buryo umupira utamucika iyo umucitse hahita haba igitego.

Imikino itanga ibyishimo, abakinnyi baba bafite ubushobozi bwo gukina umupira cyangwa se gukina imikino itandukanye, bagira abafana benshi baba baje kubareba, biba ari ibyishimo bikomeye iyo batsinze, kakaba ari n'akababaro iyo batsinzwe.

Basiketiboro ni umukino ukinishwa amaboko, bagenda badunda noneho haba hari akantu batereramo, iyo umupira unyuzemo ubwo baba batsinze igitego, ni umukino usaba ubuhanga bwinshi cyane, ndetse no kuba uzi kwiruka, ugira n'amacenga menshi cyane.

Habaho imikino y'amasiganwa itandukanye hari, amasiganwa yo ku modoka, ayo kuri moto ,ndetse ku magare .Isiganwa ry'amagare ni umukino abaturage bahururira, baba baje kuwureba ari benshi kuko urashimisha ,abatwazi b'ayo magare baba birukanka cyane ku magare ,bambaye n'ingofero mu mutwe, zibarinda kuba bagwa bagakomereka cyane.

Uruhurirane rw'amakipe yahujwe n'umukino wa basketiboro. Iyo ujugunye uriya mupira ukaja muri kiriya gipfumure kiri hejuru aricyo twita "amagora" uba utsinze igitego, iyo utereye ntujemo ntabwo uba utsinze igitego.

Uruhurirane rw'abantu benshi baje kureba amasiganwa y'amagare . Amagare arashimisha cyane kuko aba ateye ubwuzu kuyareba, abantu benshi baba bahagaze hejuru y'amazu ku ma etage, hejuru cyane barimo kwitegereza uko uwo mukino ugiye kugenda.

Abafana b'ikipe y'Igihugu y'u Rwanda bari bageze muri sitade bafite ibikapu, bafite amazi, bambaye ingofero, imyenda y'ubururu yanditsweho amagambo Rwanda. Bishimye cyane, banezerewe, biteguye gufana amakipe yabo.

Abatoza baba bafite akazi gakomeye ko gutoza, nk'abatoza ba basiketiboro, ni abatoza baba ari abahanga. Batoza abantu kwirukanka, birukankanye umupira, ndetse no gutsinda baboneza mu gapfumure ka basiketiboro bashyiramo umupira. Uyu mukino uba ugoye, usaba ubuhanga bwinshi.

Umukino wa basiketi usaba ubwenge bwinshi ndetse no kuba uzi amacenga, cyane cyane habaho amakipe y'abakobwa azi gukina uwo mukino cyane kuko abakobwa barawumenya kuko bazi ibyo kudunda. Uwo mukino urashimisha kuko buri wese ababona ubereye ijisho.

Uruhurirane rw'abantu bari muri sitade baje gufana amakipe bakunda, iyo amakipe bakunda atsinze barishima cane, iyo atsinzwe barababara. Ni byiza rero kujamo ufite ikipe urimo gukurikirana kugira ngo uze gutahana ibyishimo byawe byuzuye.

Umukino gwa tenisi ni umukino gukinwaga n'ubuhanga bwinshi. Ni umukino wifashishaga akadanse cyangwa se agatenesi ndetse n'ikidudisho. Uwo mukino bisabaga kuba ushoboye kwiruka kandi uzi ubuhanga bwawo.

Kwiruka ni siporo ikomeye cyane. Abakinnyi bakina umukino wo kwiruka cyangwa se bakora amasiganwa yo kwiruka, ni abantu b'abahanga kuko baba bazi kwiruka cyane. Uyu mukino wo kwiruka cyangwa se amasiganwa yo kwiruka, akorwa mu Rwanda hirya no hino, abantu benshi barawukunda kubera ko babona ushimishije.

Sitade ni ahantu abantu benshi bahuriraga bari mu nama, bari mu gikorwa runaka cabahujije nk'ibirori, cangwa se baje kureba umupira. Muri sitade tuhasangaga intebe nyinshi zicaragaho abantu habaga harimo n'ibishushanyo byinshi byamamaza nk'urugero nka visiti Rwanda cangwa se n'ibindi byamamaza amasosiyete atandukanye.

Mu Rwanda tugiraga amoko y'imikino menshi atandukanye habagaho umupira w'amaguru, basiketibolo, tenisi na volebolo ndetse n'umukino gw'amagare .Amagare rero iyo bari mu marushanwa, abantu benshi bakundaga kugureba ugu mukino kuko ngo guryoheraga amaso kugureba.

Abakinnyi b'umupira ni abantu baba bazi kwiruka cyane, baba bambaye amajiri aba asa hejuru no hasi, baba bambaye amasogisi maremare n'inkweto zitwa godiyo, aba bakinnyi buri kipe iba ifite abafana bayo baje kuyifana, akenshi bakinira muri sitade, cyangwa se ku bibuga byabugenewe bikinirwaho umupira.

Uruhurirane rw'abantu benshi baje muri sitade kureba umupira. Umupira ni umukino mwiza cyane uryohera amaso kuwureba, iyo amakipe yombi yatangiye gukina, abafana baba bafite ikipe babogamiyeho, iyo kipe itsinze barishima, yatsindwa bakababara kubera ko itabahaye ibyishimo bari bakeneye.

Sitade iba yakubise yuzuye iyo amakipe ari bukine, haba hari uruhurirane rw'abantu benshi cyane baje gufana amakipe bakunda. Ikipe iyo itsinze abafana barishima cyane, ikipe yatsindwa n'abafana bararakara cyane, kuko bataha nta byishimo bafite.

Uruhurirane rw'abantu baje gufana amakipe, iyo ikipe ufana itsinze turishima yatsindwa tukababara cangwa se twaba tuje kureba abahanzi cyangwa se ababyinnyi, iyo babyinnye neza turishima bakadushimisha tukishima cane.

Uruhurirane rw'abantu baje kureba umupira w'amaguru. Umupira urashimishaga cane, nk'iyo batsinze igitego, abafana b'iyo kipe barishimaga. Iyo batsinzwe abafana b'iyo kipe bararakaraga cane kubera ko batabashije kubona insinzi y'ikipe yabo baje gufana.

Umupira w'amaguru mu mukino uryohera amaso kuwureba, bisabaga abakinnyi bawukina kuba bazi kwiruka cyane, bagira n'abazamu baba bari mu mazamu, aba banyezamu bakunze kuba ari barebare cyane kuko bibasabaga gusimbuka iyo bari gusama umupira.

Handiboro ni umukino bakina bakoresheje amaboko, ufata agapira ukiruka, hari amategeko awugenga, noneho ukaboneza mu igora ako gapira ukoresheje intoki Uwo mukino usaba kuba uzi kwiruka cyane, kandi uzi gutera n'intambwe.

Abahanzi ni abantu bakunzwe cyane, iyo bari buze kuririmbira abantu muri sitade iba yakubise yuzuye cyane bategerejeko baza kubaririmbira. Abahanzi barakundwa cyane kuberako bagira indirimbo zikunzwe kandi...

Umukino wa tenisi usabaga ibikoresho byinshi, ugomba kuwukina wambaye imyenda migufi nk'agakabutura agasengeri, n'inkweto zifunze kugira ngo ubashe kuwukina umeze neza, bagiraga agakoresho gakubitaga agatenesi kugira ngo ako gatenesi kagende bisaba kuba uzi no kwiruka cane.

Umupira w'amaguru ugira amakipe. Ayo makipe aba agizwe n'abantu cumi n'umwe. Buri wese aba afite umwanya akinamo. Iyo bagiye gukina baba bambaye imyenda ya siporo, buri kipe yambaye isa ukwayo. Bagira n'abanyezamu baba bari mu magora.

Abakobwa nabo basigaye bazi imikino itandukanye kuri ubu ngubu ntabwo bagihezwa kuko nabo barashoboye. Abakobwa bakina umukino wa tenisi baba ari abakobwa b'abahanga ndetse bazi n'ubwenge kubera ko uwo mukino usaba ubuhanga bwinshi cyane, baba bafite igikinisho ndetse bambaye n'imyenda kabuhariwe mu gukina uwo mukino.

Umukino gwo kugendera ku nkweto z'amapine ni umukino gwukomeye cane gwusabaga kuba uzi ubwenge kandi uzi no kuwukina bihagije. Ugwu mukino gwukinaga abantu bitoje kandi bafite imbaraga. Iyo utawumenyereye, izi nkweto zishobora kukunyereza zikakugusha.

Mu mikino itandukanye habonekamo abatsinda cyangwa se abatsindwa. Abatsinze babahemba ibihembo bitandukanye. Hari abo baha imidari cyangwa se ibikombe. Iyo midari iba yanditseho ibijyanye n'ibyo bakiniye. Baba bambaye imyambaro igaragaza n'ibihugu bakomotsemo.

Piscine ni akayaga gatoya abantu baba bikoreye. Gakunze kuboneka mu mahoteli cyane cyane no mu maresitora akomeye cyane. Iba igenewe kogwamo cyangwa se kuruhukiramo. Haba hakikijwe n'intebe nyinshi kuko iyo umaze koga wicaramo ukaruhuka. Haba hari n'ubusitani bwiza cyane bubereye amaso kubureba.

Umukino w'amagare ni umukino uba ushimishije cyane, abakinnyi b'amagare na bo haba harimo amakipe bari gukinana, iyo bari kugenda ubona bari ku murongo batonze nk'umurongo, abantu bakaba bahuriye hirya no hino baje kubareba, bakunze rero kubererekereza mu mihanda irimo amakorosi.

Amarushanwa yo kwiruka ,ni kimwe mu bintu bisigaye biteza imbere ku babizi. Abantu biruka baba bafite imyambaro itandukanye n'iy'abandi. Abenshi biruka bambaye: udukabutura, udusengeri ku buryo nta n'ibintu birabatega, birukanka bari ku murongo ,cyangwa se bamwe bari imbere abandi bari inyuma.

Uruhurirane rw'abantu baje kureba umukino wa volebolo. Umukino wa volebolo ni umukino ushimisha cyane, uwo ulmukino ukinwa n'abantu barebare cyane ,kuko hazamo no gusimbuka, buri kipe iba igizwe n'abantu batandatu batandatu, iyo batereye umupira ukagwa mu kibuga ntihagira umuntu uwubufata, aba atsinze igitego.

Mu udusantere hakorerwamo imyuga zitandukanye habaho abacuruza ibijyananye n'ubuhinzi, hari abacuruzaga amabutike ndetse n'ibicuruzwa byinshi byo kurya bitandukanye. Udusante dusangamo ibintu byinshi biteza imbere abaturage ndetse bikabafasha no mu ubuzima bwa buri munsi.

Mu muhanda tubonamo urujya n'uruza rw'abantu bamwe bari kujya ahantu runaka, abandi bari kuva ahantu runaka. Tubona n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, imodoka, moto ndetse n'ibindi kaburimbo bawutsindagije sima y'igiheri kugira ngo abantu bashobore kubigendamo.

Mu dusantere two mu cyaro hagaragaramo inzu zifite isuku, kandi inzu z'ibihanga hejuru y'izo nzu haba hari amakaro, cyangwa se hatewemo irangi ryumvikanweho muri iyo santeri. Udusantere twinshi tuba turimo amagare arimo kugendagendamo, n'abantu batandukanye baba bari gutembereramo.

Kaburimbo ni umwe mumuhanda uba ukomeye cyane, hirya no hino hari imodoka nyinshi ziba ziri gutsindagira iyi mihanda, bashiramo sima imeze nk'igiheri iba isa n'umukara, no hagati haba n'uturongo tw'umweru, tw'umweru cyane. Ku ruhande aba ari umuhanda w'abagenzi bagenda n'amaguru, aho hantu niho abanyamaguru bagendera.